Abantu bambaye imyenda isa ndetse n'udupfukamunwa, umwe wambaye agapfukamunwa k'umweru ameze nk'aho hari icyo ari kubabwira, ikigaragara cyo ni uko aho bari hirya yabo hari abandi bantu benshi basa nk'aho bari baje mu nama.

Hari umurwayi wicaye mu kagare akaba akikijwe n'abantu batatu bambaye imyenda isa, yo kwa muganga bisa nk'aho bari kumuha ubufasha bamutwara mu kagare.

Imodoka ziparitse hamwe akaba ari imbangukiragutabara, zifashishwa iyo zigiye gutwara umurwayi, zimukura ku bitaro bimwe, zimujyana ku bindi.

Urabona akadege kari mu bwoko bwa dorone kari hejuru rwagati mu mujyi, gasa nkaho kari kugenda gafata amashusho, kugira ngo kagaragaze uko hasi hameze neza.

Imodoka igaragara y'uko ari iya minisiteri y'ubuzima ,bivuze yuko ariyo kwa muganga ,iruhande rwaho hari abaganga babiri bambaye udupfukamunwa, ndetse bafite akabogisi kameze nk'aho karimo imiti.

Turabona abantu bahagaze kwa muganga imbere yabo hari umusirikare asa nk'aho aba arimo kubashishikariza kuzajya bivuza indwara zitarabazahaza.

Turabona abana bari mu kigero kimwe, bicaye ahantu hasi, birasa nkaho hari ibyo bari kubwirwa, dore ko hari abandi bahagaze, harimo n'abari gutanga ijambo.

Umugore ahagaze imbere yakandagira ukarabe yambaye itaburiya y'umweru ndetse ari kureba nk'umuntu ufite ibyo ategereje ku bantu runaka.

Ku ivuriro hasa nkaho hari gukorerwa ubuvuzi bugiye butandukanye ku bantu baba baje babagana ngo babavure.

Umuganga afite akakoresho yifashisha mu gutera inshinge, abarwayi. Ikigaragara cyo ni uko ari ahantu mu isuzumiro cyangwa se aho bita muri laboratori, aho bakorera imiti.

Abaganga batatu basa nkaho bari gushyiramo umuntu selum, harimo babiri b'abakobwa ndetse n'undi umwe usa nk'aho ari umuhungu hejuru yabo hari ikirango cya UR.

Abagabo ndetse harimo n'abagore, bahagaze hafi ya laboratwari bisa nk'aho baba bafite ibyo bagiye kuhakorera kugirango bavumbure ibindi.

Hagaragara abantu benshi bisa nk'aho bari mu kigero kimwe, bambaye imyenda y'umukara, bameze nk'abari mu nama aho bose bamanitse ibipfunsi nk'abari kwamamaza umukandida.

Babona inzu imbere yaho hari amapave menshi. Ni inzu ifite amabara y'umweru yandikishijwemo ibara ry'umukara bisa nk'aho ikorerwamo ubucuruzi.

Abantu bahagaze ahantu hamwe birasa nkaho hari amahugurwa barimo, yo kuba bashishikariza abantu gukora ibintu runaka bakifashisha cyangwa se byabagirira umumaro mu buzima bwabo.

Inyubako isa nkaho ari iya koperative cyangwa se ari iyo kwa muganga yifashishwa mu gutanga imiti ku baturage bagiye batandukanye.

Umugore ahagaze imbere ya kirinike birasa nk'aho yayiteye umugongo bivuze y'uko ntago ari kujyayo ahubwo birasa nk'aho ari kuvayo afite nk'uwo yari yagiye kureba cyangwa se ubundi bufasha yari yagiye gushakayo.

Turabona inzu zitandukanye ebyiri zijya gusa, bigaragara y'uko ari kwa muganga aho abarwayi bicara ndetse n'idirishya riba ririmo umuganga ubakira, mbere y'uko atanga imyirondoro yabo.

Turabona ahantu hari kirinike, aho abarwayi bajya kwivuriza, hari umugabo uhagaze imbere ya rinwari, asa nkaho arimo gukaraba mu ntoki, kugira ngo ajye kwitabwaho.